Iyi ni imbwa icunga umutekano w'abantu, ihetse igikapu gisa n'umukara, imbere hari ivarisi isa n'umukara irimo imyenda, iri gusaka ireba ko nta kintu kirimo cyakwangiza umutekano w'abaturage.